Icyapa kinini kiri mu ibara ry'umweru, kiragaragaza amafoto atanu y'abantu batandukanye, igice cyo hejuru ibumoso kiri mu ibara ry'ubururu, kiragaragaramo amagambo yanditse mu ibara ry'umweru manini, igice cy'iburyo hejuru, kiragaragaramo andi mabara agiye atandukanye ajya gusa oranje, n'icyatsi.

Umwana w'umunyeshuri wambaye impuzankano y'ishuri yo mu ibara ry'iroza ryerurutse, ari kuvoma amazi mu gikombe cy'umweru cya parasitike ku kigega cy'umukara cyo mu bwoko bwa parasitike giteretse ku gisima cyubatse ku ivomero rusange.

Umwana w'umuhungu wambaye agapira k'umuhondo n'ikabutura ijya gusoma umukara, ari kuvoma mazi ku ivomero rusange, akoresheje ibido isa umweru, inyuma ye hahagaze umubyeyi n'undi mwana wicaye.

Umwana uri kuvoma amazi ku ivomero rusange yikenyeye igitenge, yambaye isengeri y'umweru n'ijipo ya karokaro, iruhande rwe hari umubyeyi bigaragara ko ari kumubwira amagambo runaka, inyuma ye hari abana bari kwitegereza.

Umwana w'umukobwa, wambaye ikanzu irimo amabara menshi, yiganjemo umuhondo icyatsi ubururu n'umutuku, ari kuvoma amazi akoresheje ijerekani cyangwa akabido, ahantu mu kidendezi, bigaragara ko hano hantu hatuye, hari ikibazo cy'amazi akoreshwa mu ngo.

Abaganga bari gusuzuma ababagana bakoresheje inshinge batera ku maboko bagafata amaraso, bafite ibikarito bigiye birimo imiti itandukanye ku meza ari imbere yabo, bambaye impuzankano ni umugabo n'umugore bakikijwe n'abandi bantu baje kubagana babaka serivisi.

Umwana w'umukobwa ari gukaraba amazi ari kujya mu ibase iteretse munsi yaho ari gukarabira, yambaye imyenda y'umutuku igaragara ko idodesheje mu bi bitenge, inyuma ye hari urupangu rw'amatafari yubatse.

Abana benshi bari ku ivomo rusange, y'isoko ituruka mu butaka. Umwana umwe w'umukobwa ari kuvoma akoresheje akavudo k'arindwi, umwana w'umuhungu niwe uri ku mupompera amazi, abandi bari kwi ku ruhande rw'iriba barategereje.

Amagambo ari mu mbonerahamwe igice cy'bumoso kiri mu ibara ry'ubururu bwerurutse igice cy'iburyo kiri mu ibara ry'umweru umutwe wawo wanditse mu ibara ry'umukara, biragaragaza ibintu bigomba kwitabwaho bitewe n'icyiciro birimo.

Abantu benshi bari ku ivomo. Umubyeyi wambaye umupira w'icyatsi ari gupompa amazi, umwana wambaye agapira k'umutuku ateze amazi ari kujya mu majerekani afite. Abandi babyeyi bari hirya bari kwitegereza bareba ukuntu amazi ari kujya mu ijerekani.

Umubyeyi w'umugore ugaragara nk'aho yishimye bitewe n'uko ari guseka, yambaye ingofero idoze mu budodo, yambaye agapira k'ubururu kagaragaramo amabara y'umweru kandi akenyeye n'igitenge. Ari gukaraba amazi akoresheje igikoresho tumenyereye nka kandagira ukarabe, kiziritse ku biti, hino ye hari isabune igaragara mu icupa ry'umutuku.

Abana benshi b'abanyeshuri bari ku rukarabiro rusange, bane muri bo bari imbere bari gukaraba amazi amanuka agwa mu ibase iteretse imbere yabo isa umutuku, abandi bari inyuma yabo barategereje ko barangiza ngo na bo bakurikireho.

Ikirango cy'umuryango wita ku buzima ku rwego rw'isi, kiragaragaza inzoka yizingiye ku nkoni, kiragaragaza amababi y'ubwoko bw'ikimera, kiragaragaza umubumbe w'isi urimo imigabane igiye itandukanye, kandi kiragaragaza n'izina ry'icyo kirango cyanditse mu ibara ry'ubururu hasi yacyo.

Abantu batanu bicaye mu cyumba cy'inama, harimo abagabo batatu b'abirabura n'abagore babiri b'abazungu, umugabo umwe yicaye ku ruhande rwo haruguru bigaragara ko ariwe muyobozi wabo, biragaragara nkahoho hari ikintu runaka bari kwigaho cyangwa se inama bari gukora ku mushinga runaka cyangwa ku kindi gikorwa bifuza guteza imbere.

Umugore w'umwirabura ugaragara nk'ubabaye, yambaye agapira k'umweru, yikenyeye igitenge cy'ubururu kirimo amabara, yicaye ku musambi, yambaye kamambiri, aziritse ku giti hakoreshejwe isheni y'icyuma, igiti cyanditseho amagambo, ahantu yicaye hagaragara nko mu nkambi, bitewe n'utundi tuzu tugiye turi inyuma ye, kandi ni mu ishyamba.

Abana benshi bagaragara nkaho bari kwifotoza, bafite ububido basa nkaho bagiye kuvoma amazi, barasa nabi, bari ahantu handuye, inyuma yabo hari ibyatsi byinshi bigaragara ko hari ikinani gihari.

Umugabo wicaye kumukeka mu cyumba bigaragara ko gisa nabi, kuruhande rw'ibumoso hari umukeka uharambitse, ntabwo yishimye nk'uko bigaragazwa n'uko yifashe ku gahanga, yihebye, yambaye agapira k'ubururu yakenyeye n'igitenge.

Abantu benshi bari mu cyumba cy'inama cyangwa ahantu bahererwa amabwiriza, bari kwifotoza bose bahagaze baragaragara nk'urubyiruko, ni abakobwa n'abasore bari kureba ku muntu uri kubafotora, imbere yaho hari ameza ariho ibitabo, inyuma hariho igikuta kigaragara mu ibara ry'umuhondo, hejuru hari idari rikoze mu biti.

Ikirango kinini kiri mu ibara rya orange n'igice kinini kiri mu ibara ry'umweru, ryanditsemo amagambo ari mu ibara rya orange. Ku gice cy'iburyo harikugaragara Madamu wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda arigutanga imbwirwaruhame.

Icyapa kinini kiriho ibirango bitandukanye, harimo icya Guverinoma y'u Rwanda, icy'Ikigo cy'Igihugu gishinzwe Ubuzima, n'ibindi bigiye bitandukanye, hariho ikimenyetso cyanditse mu rurimi rw'Icyongereza, kivuga ku kwita ku buzima bwo mu mutwe, harimo n'irindi bara ry'ubururu rigaragaramo amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza.

Abakobwa babiri bari kuganira, umwe ugaragara nkaho yihebye, yifashe ku matama, yambaye ingofero, yambaye n'imyenda itukura, undi mugenzi we ari kumuhumuriza, wambaye imyenda y'umukara, yambaye n'amadarubindi mu maso ye.

Abantu bicaye imbere y'inzu, isize umucanga wo mu bwoko bw'ibumba n'isesero, ifite umuryango ufunguye n'amadirishya abiri yo mu bwoko bw'ibyuma afunze, bari kuganira bigaragaza ko hari igikorwa runaka bitabiriye, bari guhabwa imbwirwaruhame.

Isuzumiro ryo kwa muganga rigaragaza abaganga babiri bambaye imyenda y'impuzankano y'umukara na ga z'umweru ku maboko yabo, bafite ibikoresho bakoresha mu kazi kabo ka buri munsi, bari gusuzuma umurwayi.

Umwana uri koza amenyo akoresheje akaraso gasa ubururu, ku mutwe waho karasa umuhondo, afatishije akaboko k'imoso arishimye kubera ko ari guseka.

Umwana ugaragara nkaho afite ikibazo cy'amenyo ari kwitabwaho asuzumwa n'umuganga wambaye uturindantoki tw'umweru, akoresheje akuma kabugenewe kongera ishusho y'ikintu, kugira ngo babashe kubona neza ikibazo yaba afite mu menyo.

Umugabo wambaye agapira k'umweru, ugaragara nk'aho yishimye cyane, afite ubwanwa bw'umukara, ari guseka cyane yagaragaje amenyo ye y'umweru, ari gukurura akagozi imbere y'umunwa wiwe akoresheje amaboko ye yombi.

Umugore cyangwa se umukobwa w'inzobe ari mu rwogero ari koza amenyo ye y'umweru akoresheje akaraso k'ubururu karimo n'amabara y'umweru, agafatishije akaboko k'imoso yambaye igitambaro cy'umweru yambaye n'isengeri y'umweru.

Umuryango w'abantu batandatu ugizwe na sogokuru, nyogokuru, papa, mama abana babiri harimo umuhungu n'umukobwa barishimye bose bari kuganira baseka bigaragara ko bishimiranye.

Umuryango w'abantu batatu uri mu cyumba kigaragara ko giteyemo irangi ry'umweru cyane, ugizwe n'umubyeyi w'umugore n'umwana w'umuhungu ndetse n'undi w mukobwa, abo bana babiri bari kwita ku mubyeyi wabo bamugaburira imbuto, imboga n'ibindi biryo bigiye bitandukanye bigaragara mu ibara y'icyatsi.

Abakecuru bicaye ku ntebe z'umweru zo mu bwoko bwa parasitike, bigaragara ko bari mu nama kuko bateze amatwi. Umwe muri bo wambaye imyenda idoze mu gitenge gisa ubururu harimo amabara agaragara nk'indabo, asa nkaho ari gutanga igitekerezo abandi bakurikiye.

Umugabo ukuzemo gake wambaye agapira k'umweru ipantaro yumukara yikenyeye umukandara w'umweru bigaragara ko yavunitse ko yishingikirije ibyuma bibiri afasheho n'amaboko ye yombi inyuma ya umukobwa wambaye imyenda y'ubururu bigaragara ko ari umuganga uri kugenda amufasha amuyobora kugirango adatsikira cyangwa ngo yiture hasi.

Umuganga w'umukobwa cyangwa umugore wambaye impuzankano y'ubururu, ari kwita ku musaza waje kwa muganga wambaye agapira k'umuhondo, yambaye n'imyenda y'ubururu hasi yicaye mu kagare k'abamugaye, ari gukandakanda amaboko ye yumva uburyo amaraso atembera mu mubiri we.

Abantu bigaragara y'uko bahuriye ku ntego runaka nk'ibirori se, ubukwe, bambaye impuzankano hejuru y'udupira tw'umutuku, ababyeyi babiri bari imbere barakenye imishanana y'umweru, bambaye n'inkweto zifunguye.

Icyapa kinini kiri mu ibara rya oranje, ku gice kegereye ibumoso harimo ibara ry'umweru rinini yanditseho amagambo ya orange, ku gice k'iburyo haragaragaramo ifoto ya nyakubahwa madamu wa perezida wa Repubulika y'u Rwanda, ari gutanga imbwirwaruhame.

Ikimenyetso kigaragara mu ibara ry'icyatsi cyanditsemo amagambo yanditse mu ibara ry'umweru, harimo umurongo uvunaguye aho urangiriye harimo ikimenyetso cy'umutima, harimo umubare gatatu n'andi magambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru agapfukamunwa k'umweru, ga z'ubururu n'ikirahure kimurinda guhumeka umwuka wanduye, bitewe n'uko ari kuwusuzuma icyorezo, iruhande rwe hicaye abantu baje kwisuzumisha.

Abagabo bari gusuhuzanya bishimye, bigaragaza n'inseko yabo ku matama, bambaye amakoti y'ubururu n'amashati y'umweru, uw'iburyo yambaye karuvati y'umukara, uw'ibumoso yambaye karuvati y'ubururu, bafite ibitabo mu ntoki.

Umuganga w'umugore wambaye imyenda y'impuzankano y'umutuku, wambariyemo n'ishati y'umweru ari gupima umukobwa amaraso cyangwa se umuvuduko w'amaraso akoresheje ibikoresho byabugenewe, uyu mukobwa yambaye imyenda y'umukara, inyuma yabo hari abantu benshi bahahagaze tutazi ibyo bari gukora.

Icyapa kinini cyamamaza kigaragaza ubwoko bw'ibiryo bugiye butandukanye, harimo imbuto, imboga, ubwoko bw'ibyatsi butandukanye nk'intsenda nkuko bigaragazwa n'amabara agiye abiriho, cyane cyane yiganjemo umutuku.

Inzu nini cyane kandi nziza yo mu bwoko bw'inzu zigeretse isize amarangi y'umweru cyane cyane n'amatafari ahiye, iri kugaragaza ahantu hagiye hariho ibyapa kandi iri kugaragaza ibyatsi biri imbere yayo bigaragara nkaho ari ubusitani bwiza, inyuma yaho hari ikirere kigaragara gisa ubururu n'ibicu by'umweru.

Inyubako nini igereretse kabiri igaragara ko itangirwamo serivisi zubuganga, imbere yaho hari imodoka enye zo mu bwoko bumwe, ku ruhande rw'ibumoso hari umutaka utangirwamo serivisi z'amayinite, ku ruhande rw'iburyo hari indi nyubako isakaje ibati ry'umutuku.

Inyubako y'ikigonderabuzima cya Tabagwe nk'uko bigaragazwa n'amagambo manini ari ku gice cy'imbere cy'iyi nyubako yanditse mu ibara ry'umweru ku gice gisize irangi ry'ubururu, imbere yaho hari abantu bahahagaze bagaragara nkaho baje gushaka serivise zitangwa no kwa muganga. Ahantu banyura hari amasikariye azamuka ajyayo.

Inzu nini igeretse kabiri ikoreshwa mu buvuzi buzwi ku izina rya Sangwa, nk'uko bigaragazwa n'icyapa kinini kiri ku gice k'imbere k'inyubako, ahakoreshwa n'abashinzwe umutekano, imbere yaho hari abagabo bahagaze bari kuganira.

Inzu nini ikoreshwa mu gusana ibinyabiziga byangiritse, nk'uko bigaragazwa n'amagambo yanditse mu rurimi rw'igifaransa ku gice cy'imbere cy'iyi nyubako, agaragara mu ibara ry'umweru, isize irangi ry'umuhondo ku gice kinini cyayo, hasi hasize irindi bara ritandukanye, ariko ku gice gitoya.

Inzu nziza isize irangi ry'umuhondo ku gice gikoreshwa yo mu bwoko buzengurutse iriho ikirango kinini cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima imbere ya haparitse imodoka zitandukanye umukara n'umweru imbere hari n'abantu baje kubasura bigaragara yuko bari kuhakoresha.

Ibitaro bya kaminuza y'u Rwanda by'i Butare, nkuko bigaragazwa n'icyapa kinini kiri imbere kiri mu ibara ry'umweru, harimo amagambo yandikishije ubururu, harimo n'andi yandikishije umukara, biragaragaza n'ikirango cya guverinoma y'u Rwanda.

Inyubako ziri ku murongo zikoreshwa mu gusuzuma Malariya n'izindi ndwara zitandukanye nk'uko bigaragazwa n'amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu ku gice cy'imbere cy'izi nyubako, zisize irange ry'umweru, zisakaje amabati y'ubururu, imbere y'aho hari umuganga uhahagaze, wambaye itaburiya y'umweru n'ipantaro y'umukara.

Icyapa kinini cy'umweru, hasi gitangiwe n'ubururu, amagambo yacyo yanditse mu ibara ry'umukara, harimo n'ikirango cy'igihugu yateye mu muhanda ugaragara ko irimo amabuye hino y'inzu igaragara ko ikorerwamo na leta, isakaje amabati y'ubururu ikaba yubakishije amatafari ahiye.

Umuganga w'umugore cyangwa se umukobwa wambaye imyenda y'icyatsi kibisi, afite telefone ku mufuka w'inyuma ari gutambuka mu cyumba kigaragara ko ari icyo kwa muganga, kuko hagiye harimo ibitanda bigaragara ko ari iby'abarwayi, harimo amabara agiye atandukanye haba asize ku gikuta cy'iyi nyubako, cyangwa se n'ay'ibitambaro bigiye biri hano muri iki cyumba.

Ikigo nderabuzima cya Shagaga nk'uko bigaragazwa n'amagambo yanditse ku gice k'imbere k'inyubako isakaje amabati y'ubururu, isize irangi ry'umuhondo, ubusitani bwaho bukozwe n'amatafari akomoka mu isima, imbere yaho hicaye ababyeyi babiri n'abana babiri.

Umugore uri gukora imyitozo ngororamubiri, wambaye isengeri y'umutuku n'ipantaro y'umutuku, mu cyumba cyabugenewe gukoreramo imyitozo ngororamubiri, haragaragaramo kandi ibikoresho bikoreshwa mu gukora imyitozo ngororamubiri kandi uyu mugore yifashe ku mano, asoberekeranyije amatako yiwe kandi asa nk'aho araramye bigaragara ko ari gukwedura umugongo kugira ngo urusheho kugororoka neza.

Umugore cyangwa umukobwa uri kunywa amazi, akoresheje icupa ryo mu bwoko bwa parasitiki ribonerana, rifite umufuniko w'ubururu, yambaye agapira k'ubururu karimo ibara ry'icyatsi n'umweru, yikenyeye n'igitambaro cy'umweru mu ijosi.

Umukobwa w'inzobe ugaragara nk'umuntu ukunda gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye imyenda y'imikara imwegereye bishoboka ko ari muri siporo, afite icupa ry'amazi ribonerana ryo mu bwoko bwa parasitike, ari kunywa amazi, afite n'akandi kantu yashyize ku maboko gashobora kuba gapima umuvuduko w'amaraso.

Inkweto y'umukara imenyerewe gukoreshwa cyane cyane n' nabashinzwe umutekano cyangwa se abandi bakozi bakora ahantu hakomeye cyangwa hagoranye kuhagenda iriho ikirango cyayo kigaragaza izina ryayo kiri mu ibara ry'umweru n'amagambo yanditse mu ibara ry'umukara.

Umusore cyangwa umugabo wambaye agapira k'ubururu, wambaye agakufi mu ijosi, ari kunywa amazi akoresheje akaboko ke k'indyo gafashe icupa ryo mu bwoko bw'ikirahure.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga cyo mu bwoko bw'indege bwitwara, kiri mu ibara ry'umutuku, gikoreshwa mu buvuzi cyangwa ubutabazi nk'uko bigaragazwa n'ikimenyetso cyo mu ibara ry'umweru cyo guteranya, kiri mu ruziga rw'umutuku.

Umugabo ukomeye ugaragara ko akunda gukora siporo cyane, yambaye umupira w'icyatsi, yambaye n'agatambaro k'idoma ku kuboko kwe kw'iburyo, afite icupa ryo mu bwoko bwa palasitike ririmo amazi, ari kuyikandiraho agwa mu mutwe we.

Ubwoko bw'imiti imenyerewe nk'ibinini iri mu dufuniko twayo, igaragara mu ibara rya oranje iri kumwe n'icyapa kinini kigaragara mu ibara ry'umuhondo, kirimo n'ayandi mabara y'icyatsi, agaragaza ibimera cyangwa ibihingwa ino miti ikorwamo handitseho amagambo yo mu ibara ry'umukara.

Icupa ry'umweru ririmo imiti, nk'uko bigaragazwa n'icyapa kinini cya oranje kiryanditseho mu magambo y'umukara, riri kumwe n'urubuto rw'amaronji, ubuki, bikaba biteretse ku iparato y'umweru.

Ubwoko bw'ikimera kirandaranda cyerera ku butaka, gifite amababi y'icyatsi kibisi n'ubwerezwa bw'umutuku n'umuhondo mo imbere, kiryamye ku butaka bugaragara ko yuko ari ubw'umucanga; hari n'ibyatsi bindi byameze ku ruhande.

Icupa rinini ryo mu bwoko bwa parasitike, rigaragara mu ibara ry'umweru, ripfundikije umufuniko w'ubururu wa parasitike, amagambo yanditseho yanditse mu ibara ry'ubururu, bigaragaza ubwoko bw'ibicuruzwa birimo muri iryo cupa.

Amacupa yo mu bwoko bw'ibirahure, agiye afite imifuniko itandukanye, duhereye ku ruhande rw'iburyo hari umutuku, umweru, umutuku na kake kandi aya macupa akaba arimo imiti n'ibirango bigaragaza ubwoko bw'imiti bugiye burimo.

Ibihuru biri mu ibara ry'icyatsi ryo mu bwoko bw'ibimera byitwa igitovu hamwe n'urwiri, kuruhande rw'ibumoso birijimye, kuruhande rw'iburyo bijya kuba icyatsi kererutse, byatangiye no kuzana amabara bigaragara yuko byeze.

Imiti igiye itandukanye bigaragazwa n'amabara yayo n'uburyo igiye iforumye, imwe irambitse hasi indi igiye iri mu dukoresho tubaje mu biti tugaragara mu ibara ry'umukara, hano hari n'umunzani uri gupima imiti, uteretse ku isanduku ibaje mu giti.

Icupa ryo mu bwoko bw'ikirahure ririmo imiti, ripfundikije umufuniko w'icyatsi kibisi wo mu bwoko bwa parasitike, ririho ikirango kinini kigaragara mu ibara ry'icyatsi, cyanditseho ubwoko bw'imiti bwitwa umuravumba, byanditse mu ibara ry'umweru n'andi magambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza agaragara mu ibara ry'umweru kandi hariho n'ibindi bimera bigaragara mu ishusho y'uruziga.